Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite umuryango umwe n'idirishya rimwe, imbere y'umuryango hariho icyapa kigaragaza ko ari ishuri ry'inshuke, imbere yayo hari ibyatsi ndetse n'ikibuga.

Abanyeshuri bahagaze imbere y'ishuri harimo abakobwa n'abahungu, imbere yabo hari amashuri menshi hari kandi ibyatsi n'indabo imbere y'amashuri yabo.

Ishuri rifite imiryango ibiri n'amadirishya ane, rifite inkingi eshatu, risakajwe amabati y'ibara ry'umutuku, ku nkuta hariho ibishushanyo by'ubwoko butandukanye, hari n'igare ryegetse. Imbere yaryo kandi hari ibyatsi bigufi.

Abana bato bari mu kibuga ahantu hari ibyicundo, inyuma yabo hari amashuri, iburyo bw'amashuri hari ikigega gifata amazi ndetse n'insina.

Amashuri atondetse ku murongo afite imiryango ndetse n'amadirishya manini, ku nkuta hariho imfashanyigisho, hari kandi umuyoboro w'amashanyarazi ujya mu ishuri imbere.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bari gukora isuku mu busitani bw'ikigo bagashyira imyanda ahantu habugenewe, inyuma yabo hari igiti ndetse n'amashuri.

Imfashanyigisho zifashishwa mu kwigisha abana bato. Hari karoti, ibigori, abantu, ibinyugunyugu, amagi, inyanya, ndetse n'ibindi bigenda bigaragaza imibare.

Buwate irimo ikaramu z'igiti ebyiri n'ikaramu ifite ibara rya oranje, harimo kandi agasibisho, harimo takeleyo na kompa n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ishuri ryubatse neza rirerire, rigeretse kabiri . Rifite amabara :ubururu ,umuhondo ,icyatsi n'umutuku. Imbere yaryo hari inkingi zifite amabara menshi atandukanye.

Imfashanyigisho z'abana bato, inkoko, ifi, urukwavu ndetse n'injangwe, bisize amabara kandi bisize neza.

Ururabo rw'umutuku, radiyo ifite antene ndetse n'umukondo, ipantaro y'ubururu, hari ijipo, isahani, inkweto z'umutuku, umuneke, ingofero ndetse n'urubuto rwa avoka.

Amakaye ateretse ku meza, hejuru yayo hari ironji, imbere yayo hari igikombe kirimo amakaramu y'ibiti, ingwa ndetse n'igihanaguzo.

Umugore uhagaze imbere y'ishuri, yambaye agapfukamunwa k'umutuku wijimye, yambaye n'umupira w'ibara ry'ubururu, urugi rufite ibara ry'ubururu, mo imbere mu ishuri hari ikibaho kifashshwa mu kwandika.

Abanyeshuri bari mu ishuri barahagaze ariko imbere yabo hari uwicaye, bari mu matsinda bari kuganira.

Abanyeshuri bambaye impuzankano baricaye abandi bahagaze inyuma yabo, imbere yabo hari umurezi, inyuma y'abo banyeshuri hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abanyeshuri bari mu ishuri ,bambaye inifomu bose, hari abahagaze hari n'abicaye, barasa n'abari kuganira ariko baganirira mu matsinda.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri hagati yabo harimo umurezi wambaye ishati y'umukara uhagaze ari kubigisha yifashishije indangururamajwi.

Amashuri afite ubusitani, imbere yayo hari ikigega gifata amazi, hashinze idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, inyuma y'ayo mashuri hari ibiti, imisozi, ibyatsi ndetse n'amakoma y'insina.

Abanyeshuri bahagaze imbere yabo hari uwambaye umupira w'ubururu utari inifomo, yambaye n'isaha ku kuboko.

Abanyeshuri bari imbere y'amashuri, bamwe baricaye abandi barahagaze, imbere y'abanyeshuri bicaye, hari indabo.

Abanyeshuri bahagaze bose bambaye amashati y'umweru na karuvati ndende z'ubururu, bambaye amajipo n'amapantaro by'ikigina n'inkweto zifunze n'abasogisi, bari kumwe n'abarezi babo bo ntabwo bambaye inifomu. Inyuma yabo hari inyubako z'amashuri.

Icyapa kiriho ikirango cy'Igihugu cy'u Rwanda kigaragaza amabwiriza. Inyuma y'icyo cyapa hari ubusitani bufite indabo zikase neza, hari n'inyubako ifite imiryango ibiri n'amadirishya abiri. Hari ibiti byinshi birebire kandi byiza.

Abantu bari kugenda mu muhanda. Imbere yabo hari inyubako ifite umuryango umwe n'idirishya rimwe. Ni akazu gato. Hari n'ibiti birebire bya gereveriya. Iburyo bwabo hari indabo ziteye ku murongo zikase neza ku buryo bureshya.

Ameza hejuru yayo hariho ikaye irambuye yanditsemo, hirya y'ayo meza hari intebe ifite ibara ry'icyatsi.

Abanyeshuri bahagaze bambaye impuzankano, imbere yabo hari amacupa y'amazi, hateguye indabo bari guseka bigaragara ko bishimye.

Abanyeshuri bahagaze mu kibuga. Bambaye amakanzu n'ingofero ariko hari abaziteyere hejuru bari kuzisaba.

Ubusitani bwiza burimo indabo zikase neza na pasiparume, muri ubwo busitani harimo ibiti birebire, iburyo bw'ubusitani hari inyubako ndende zifite amabara y'umweru.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bari kumwe n'umurezi wabo, bose bambaye udupfukamunwa, hagati y'umuntu n'undi, bagiye basigamo intera.